Abantu benshi b'ingeri zitandukanye bahuriye ahantu hamwe baricaye imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi barimo kureba imbere barakurikiye ndetse abapolisi bambaye impuzankano n'abasirikare bicaye barimo kuganira bizihiwe.

Abantu benshi bambaye neza bicaye ku buryo bw'umuzenguruko barimo kuganira higanjemo abagabo, imbere yabo hateretse za mudasobwa ndetse n'amacupa y'amazi ku meza afite ibitambaro by'umweru.

Abantu benshi bicaye mu nama, abakecuru, abasore, abagabo ndetse n'abagore bakiri batoya, barizihiwe, bicaye ku ntebe nziza z'umweru, zifite ahokwegamira, barimo kureba imbere, higanjemo abambaye iby'umuhondo n'icyatsi.

Ihuriro ry'abantu benshi bicaye, higanjemo abakuze, abagabo n'abagore, harimo umugabo uhagaze wambaye ishati y'umweru, ikoti ry'umukara, afite uruhara, afashe mikoro mu ntoki ze n'ibiganza byombi arimo kuvuga.

Abantu benshi bateraniye hamwe abagabo n'abagore, harimo abagabo bafite uruhara bari kureba imbere hahagaze umugore wambaye ikanzu nziza cyane irimo amabara y'umuhondo, afite imitsatsi igiye inyuma mu mugongo, afashe mikoro mu biganza bye arimo kuvuga.

Abantu benshi bicaye higanjemo abagabo bari kureba imbere, hahagaze abasore babiri, umwe yambaye umupira w'umweru n'ikoboyi n'undi yambaye umupira w'umweru n'ikoboyi afashe ku bitugu bya mugenzi we, inyuma yabo hateretse intebe nziza zo kwegamaho z'umukara ndetse n'icyapa kiri mu ibara ry'ubururu.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye higanjemo urubyiruko bicaye ahantu mu nama, barizihiwe barimo kuganira abandi barimo kureba muri telefone zabo, imbere hicaye umugore wambaye ishati y'umweru bateretse mudasobwa ku bibero bye.

Ihuriro ry'abantu benshi bari mu ngero zitandukanye barimo kuganira bishimye hagati yabo hahagaze umugore ufite umwitero w'umuhondo n'imisatsi mikeya, afashe mikoro mu kiganza cye kimwe arimo kuvuga ikindi kiganza ari kugitunga hirya.

Heza hateguye neza hari imitako icyapa cy'ubururu kirimo amagambo yandikishije inyuguti z'umweru ndetse n'ameza ateguye neza ariho igitambaro cy'umuhondo umugabo uhagaze wambaye ikositimu nziza na karuvati n'ishati y'umweru ari kureba imbere ibiganza bye yabihurije imbere ye hateretse amazi meza ari mu icupa ry'umweru.

Ingeri z'abantu benshi batandukanye bicaye hamwe abana, abagabo n'abagore, bambaye imyenda itandukanye bari kureba imbere bateze amatwi ibyo bari kubwirwa biragaragara ko babikunze kandi babyitayeho.

Ahantu hubatse neza, hateguye neza. Harimo intebe z'amabara atandukanye, umweru ndetse n'inkingi zihagaze zifite amabara y'umweru. Umugabo wambaye ingofero, yambaye itiriningi y'umweru n'umukara. Afashe mikoro n'ukuboko kwe kumwe ukundi yakumanuye.

Umugabo ufite uruhara wambaye ishati nziza y'ubururu, yicaye ku ntebe ifite aho kwegamira ,arunamye amaboko ye yayafatishije ku meza, aripfumbase, harambitse telefone, igitabo, ari kureba imbere arimo gutekereza.

Abantu benshi bateraniye hamwe harimo ingeri zitandukanye abagabo n'abagore ndetse n'urubyiruko, higanjemo abadaso bambaye imyenda y'icyatsi, imbere yabo ku meza hateretse amacupa arimo amazi meza.

Ishusho nziza y'ubururu, yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda, abagabo bane bicaye ku ntebe, begamye, bageretse amaguru ku yandi, imbere yabo hicaye abantu babateze amatwi barizihiwe.

Abantu benshi bicaye ku ntebe nziza z'icyatsi, imbere yabo ku meza hateretse amacupa y'amazi ndetse na fanta. Barizihiwe, barimo kuganira imbere yabo hahagaze umuntu, bamuteze amatwi kandi baramukurikira.

Ihuriro ry'abantu benshi, harimo abapolisi, abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, barimo kuganira barishimye cyane, bamwe barimo kubyina bigaragara ko umunezero n'akanyamuneza ari wose, ku mutima wabo.

Umugabo wicaye wambaye amarinete n'ishati y'ubururu ndetse n'umugabo uhagaze wambaye ishati irimo utubara tw'umuhondo ndetse n'isaha ku kaboko, afashe mikoro n'ibiganza bye byombi arimo kuvuga areba imbere.

Abagabo n'abagore, bicaye ahantu hamwe, bambaye impuzankano, udupira tw'umweru, imbere dushushanyijeho ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda, n'umugore witeze igitambaro cy'icyatsi, bakurikiye ibyo bari kubwirwa.

Ahantu heza hateguye neza, hari kugaragara neza, hariho intebe nziza zifite ibara ry'icyatsi zo kwicaraho ndetse n'ibyumba bisashe neza, umugabo uhagaze wambaye agapira k'amaboko magufi gafitemo uburongo bw'umweru, yambaye amarinete, afashe mikoro n'ibiganza bye byombi arimo kuvuga.

Ahantu hari ibyatsi byumye, ndetse hari kugaragara neza, umugore upfukamye, wikenyeje igitenge, imbere ye hari urusyo, amaboko ye yayafatishije ingasire, arimo gusya ateretse intara iri kujyaho ifu.

Abantu benshi biganjemo urubyiruko bateraniye hamwe, imbere yabo hari ingoma, umuntu umwe yambaye umukenyero, yambaye n'ijipo y'umutuku abandi bambaye utuntu tw'ubururu turi kugaragaza ko bavuza ingoma abandi basore bifashe mu mifuka bari kureba imbere.

Umugabo uhagaze yambaye ibirenge, yambaye amayugi ku maguru ye ndetse ayahambirije imishumi, yambaye ikabutura ifite ibara ry'umweru ahagaze ahantu hari ibitaka n'amabuye menshi.

Imyambi barashishya bakoresheje umuheto yamaze gutunganywa ifite ku mutwe h'umweru, irambitse ku gitambaro cy'umukara ahantu mu kinani hari ibyatsi byinshi bitohagiye bimeze neza.

Ibara ryiza ry'umukara harambitse imyirongi yifashishwa mu kuririmba ndetse no kuvuga amazina y'inka, imyironge, ni ibikoresho byiza byifashishwa n'abahanzi ndetse n'abanyabugeni ba gakondo mu kwizihiza iminsi itandukanye.

Kiza cyubatse neza gifite amakaro hasi n'amabara meza, amacumu akoze neza atyaye cyane atondetse ku murongo, yifashishwaga n'abarwanyi ku rugamba igihe babaga barimo kurwanira igihugu.

Igicuma kiza rwose giteretse ku butaka gikoze neza kirimo umuheha biragaragara ko kirimo inzoga nk'uko tubibwirwa si byiza gusangirira ku kumuheha kuko bikwirakwiza indwara nyinshi zinyuranye.

Ahantu hateguye neza umugore wambaye umubano yambaye urunigi mu ijosi, yazamuye amaboko arayatega inyuma ye hahagaze abagore bambaye imikenyero myiza y'umweru ndetse n'umutuku.

Umuyoboro wubatse neza urimo amamashini ndetse n'amabatire n'ibindi byuma bisobekeranyeye, utwara umuriro w'amashanyarazi, ucometseho insinga, zimwe zizamutse hejuru n'izindi zimanutse ziciye mu butaka.

Inzu nziza yubatse neza iri kugaragara neza, yibumbatiye za bateri zikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi. Abagabo bahagaze bambaye amakasike y'umutuku ndetse n'amajire y'umutuku n'umuhondo.

Amazu afite ibara ry'umuhondo asakaje amabati y'umweru, ari ahantu hamwe imbere yayo hariho ipoto ry'umuriro w'amashanyarazi ricometseho insinga nyinshi zitandukanye, imbere hari igitaka kinshi cyane ndetse n'umuntu urimo kugenda.

Umusore urimo guseka wazamuye akaboko kamwe akandi agafatisha ku bibero bye. Yambaye ikoti rya kaki ndetse n'ikoboyi. Yicaye ku ntebe ifite aho kwegamira. Imbere ye hateretse ameza acomekeranyijeho insinga zitandukanye z'umuriro w'amashanyarazi.

Igihingwa cy'urutoki rufite ibitoki, ipoto rihagaze riciyeho umuriro w'amashanyarazi, avoka, ndetse n'urugo rukikijwe n'ibishyimbo rusakaje amabati y'umweru.

Ahantu hari ibyuma byinshi bitandukanye, umugabo wambaye bote, ipantaro y'ikoboyi, ishati y'ubururu ndetse n'ingofero, abandi bagabo basutamye bari gusudira ibyuma bitandukanye, byifashishwa mu gutanga no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Amatara menshi cyane ari ku muhanda wumukara, ari kwaka inyuma yayo hagiye hateyeho ibiti byiza byakuze bifite amababi y'icyatsi biragaragara ko ari mu mujyi hateye neza.

Icyumba cyiza giteguye neza gifite irangi ry'umweru kirimo ibyuma n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, umugozi umeze neza uri mu ibara ry'umuhondo uri kugaragara neza.

Umukobwa wambaye ingofero y'umweru ndetse n'agapira k'umutuku, afatishije ibiganza bye insinga zitandukanye, z'umuriro w'amashanyarazi z'ubururu icyatsi n'umutuku. Imbere ye hari kamera iri kumugaragariza, ibyari gukora.

Insinga nyinshi zicomekeranyije ziri mu mabara atandukanye harimo iz'umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku, ibiganza by'umuntu ufashe utwuma twifashishwa mu gusuzuma niba umuriro urimo.

Ahantu hameze neza hari ibyatsi byinshi bitohagiye bimeze neza, imirasire y'izuba yanitse ku biti ndetse ibiduki bibiri bijyamo amazi biri mu ibara ry'umuhondo biteretse ahantu hamwe.

Abantu benshi bambaye amakanzu y'ubururu, bafite imbere yabo ibishushanyo bifite amabara atandukanye biteretse ku meza, bigiraho uburyo batanga umuriro w'amashanyarazi ugakwirakwira hose.

Urwego rw'icyuma rushinze ku ifoto umugabo wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara, uri hejuru ku poto arimo gufunga insinga z'amashanyarazi kugira ngo umuriro ubashe gukwirakwira neza mu baturage.

Batiri iteretse, hejuru ni umukara, ifiteho udufuniko twinshi, hasi n'umweru, hirya yayo hari utuntu twubatse neza, ducometseho insinga, imbere yayo hari inzu nziza ifite irangi ry'umweru isakaje amabati y'ubururu, iruhande rwayo hari igiti cy'inganzamarumbo.

Inzu nziza isakaje amabati y'ubururu, ifite igisenge cy'umweru ndetse ifite amarangi y'umuhondo n'inzugi ziteye irangi ry'umukara, imbere yayo hashinze ipoto rinini rikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umugabo wambaye ijire yumuhondo nishati yamaboko maremare, imbere ye ahagaze undi mugabo wambaye kasike y'umweru n'ijire y'umuhondo, afite ibitabo ari kureba, imbere ye hariho amabatiri atandukanye ndetse n'imigozi yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda w'igitaka uri kugaragara nabi abantu benshi bari kugenda bari kunyuranyuranamo batandukanye, amapoto ariho insinga z'amashanyarazi menshi cyane, amazu ari ku mpande zitandukanye, uruhande rwo hepfo n'uruhande rwO haruguru afite amabara atandukanye.

Ahantu hitaruye hariho amashyamba menshi cyane n'ibiti bitohagiye biri kugaragara neza, imiyoboro yubatse neza itwara umuriro w'amashanyarazi, ifite ibyuma byinshi bitandukanye.

Imiyoboro myinshi yamashanyarazi yubatse neza mumabara y'umweru n'umukara n'amabatiri menshi agiye atandukanye biri hafi y'umuhanda w'umukara wubatse neza ufite n'amabara yu'mweru.

Inyubako nziza zizamuye zifite amabara y'umuhondo ndetse n'inkingi z'umuhondo, imbere yayo hahagaze imiyoboro y'amashanyarazi, umugabo wambaye imyenda y'umutuku iri hejuru ku ipoto ry'amashanyarazi ndetse no hirya ye hari undi mugabo wambaye ijire y'umuhondo uri hejuru ku ipoto.

Umuhanda w'igitaka urimo ibitaka byinshi, imiyoboro, amapoto ashinze ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, insina z'urutoki zitohagiye ziri kugaragara neza harimo n'ibitoki byeze.

Umuhanda ni uw'igitaka, urimo abantu batandukanye bari kugenda, amapoto menshi ariho insinga z'umukara, inzu nziza yubatse icuramye, ifite amabati y'umutuku, urutoki rurimo ibitoki, rutohagiye rumeze neza.

Inzu eshatu ziteganye zisakaje amabati y'ubururu, inzu imwe imbere yayo hahagaze abantu benshi ndetse haparitse n'imodoka, inyuma yayo hari amatara ari kwaka, hakurya hari umusozi mwiza uteyeho ibyatsi.

Umusozi mwiza uteyeho ibiti byinshi bitandukanye, hagati ye hari amazi mabi arimo gutemba mu muririndi, abantu benshi bahagaze inyuma y'uruzitiro barimo kuganira, bose bambaye udupfukamunwa, higanjemo abagabo.

Inzu nziza yubatse neza iri kugaragara neza ifite amabati y'icyatsi, imbere yayo hahagaze abantu benshi ndetse n'itara, haparitse imodoka n'abandi bantu bari imbere bari kugenda mu muhanda.

Inyubako nziza isakaje amabati y'ubururu, ifite ibirahure by'umweru, umuryango wayo urafunguye, haraguru hahagaze umuntu umwe, imbere yayo hari umuhanda mwiza w'umukara.

Umuhanda mwiza wigitaka ufite ikona hariho n'itara, inzu nziza nini cyane yubatse ifite amabati y'ubururu inkingi z'umweru, hakurya yayo ni ishyamba ririmo ibyatsi byinshi.

Umuhanda ushaje, urimo umukara ndetse n'umweru uri kugaragara nabi. Amazu yubakishije amatafari, adateye umucanga, atondetse kumurongo, asakaje amabati akererebye. Afite inkingi z'umuhondo.

Inzu nziza yubatse ahantu heza isakaje amabati y'ubururu, ifite amarange y'umuhondo hasi, hagati ifite amatafari adateye umucanga, hejuru handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Inzu nini cyane yubatse neza isakaje amabati y'umweru, ifite amatafari ahiye, imbere yayo hahagaze abagabo babiri bari kureba imbere, umwe yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, undi yambaye umupira w'umutuku, barimo kuganira.

Umuhanda mwiza uri kugaragara neza w'umukara icyapa gifite ibara, ry'icyatsi ndetse hakuno hari n'amatara hino hari ibiti bitohagiye biri kugaragara neza ko byitaweho kugira ngo, bitange akayaga ku bantu bari mu muhanda.

Inzu nziza isakaje amabati y'ubururu, ifite irangi ry'ubururu, ifite urukuta rurerure, iruhande rwayo hari ikigega cy'umukara, inyuma yayo hari ibiti byinshi byinganzamarumbu byakuze bifite amababi meza.

Umuhanda w'igitaka uri gucocoka harimo abantu bari kugenda mu byerekezo bitandukanye, abantu bicaye ahantu hamwe bari kuganira bizihiwe, icyapa gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ikindi cyapa gifite ibara ry'umweru.

Ishuri ryubatse neza ry'ubakishije amatafari adateyeho umucanga urugi rw'umukara rufite ibara ry'ubururu, imbere yaryo hahagaze abanyeshuri benshi bambaye impuzankano amasogisi y'umweru amapantaro n'amajipo y'umukara ndetse n'amashati y'umweru.

Inzu nziza yubatse neza iri kugaragara neza, isakaje amabati y'ubururu, ifiteho inkingi imwe y'ubururu, iy'umuhondo n'iy'icyatsi, iri kugaragara neza, imbere yayo hahagaze abagabo batatu barimo kuganira bizihiwe ndetse hari n'ibendera ry'Igihugu cy' u Rwanda.

Umuhanda mwiza w'umukara, harimo aho abanyamaguru bambukira hashanyishije ibara ry'umweru, iruhande hari inzu isakaje amabati y'umutuku ndetse n'amatara ari kwaka.

Ikizu kitubatse neza gisakaje amabati y'umutuku gihagaze ku nkingi z'ibiti, kizitiriwe n'imbaho, hanze yacyo hari ahantu hariho igitaka ndetse n'ibyatsi byinshi byumye bigaragara ko byabuze amazi.

Umuhanda mwiza w'umukara ugaragara neza, iruhande rwawo hari utwatsi dukeya dutohagiye dushishe neza umuntu umwe uri mu muhanda, inzu nziza zitakaje amabati y'ubururu ziri kugaragara neza zifite n'amarangi meza.

Umugore wikoreye umufuka yambaye umupira w'ingofero ufite ibara ry'umutuku yikenyeje igitenge, akaboko ke kamwe kari imbere akandi agafatishije umwana mutoya wambaye agasengeri k'umukara, barikugendera ku kiraro gitambitseho ibiti.

Inzu nziza yitaruye ifite akantu hejuru isakaje amabati y'umutuku ifite amarangi y'umweru, imbere yayo hahagaze abantu babiri ndetse hahanitse n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Umuhanda mwiza wumukara harimo umuntu umwe uri kuwugendaho, inzu nziza zubatse neza zisakaje amabati y'icyatsi ziri kugaragara neza ndetse n'utuzu twubakishije amabati meza dufite ibara ry'umweru turi ku ruhande.

Uruzitiro ruzitije ibyuma bizengurutse umugezi bifite amabara y'umutuku n'umweru, hakurya haparitse imodoka eshatu, imwe y'umukara, indi y'umweru n'indi y'umukara, hirya hari ishyamba riteyemo ibyatsi byiza bitohagiye.

Umumuhanda mwiza w'umukara haparitse imodoka nziza nini itwara abagenzi, iruhande hahagaze abantu benshi higanjemo abagabo bambaye nu'dupfukamunwa, barimo kuganira bareba imbere barizihiwe, hirya yabo hari inyubako nziza nini cyane ifite irangi ry'umweru, isakaje amabati y'ubururu.

Inzu nziza nini cyane isakaje amabati y'umutuku, ifite amabara y'umweru ndetse n'inkingi zifite irangi ry'umweru, ifite ibirahure byiza, imbere yayo hahagaze abantu benshi cyane ndetse haparitse imodoka nziza y'umubanda.

Inzu nziza yubatse neza igeretse ifite amabara y'umweru, imbere yayo hari inzu ebyiri zubakishije amatafari zidateye umucanga, hino hari inzu nziza isakaje amabati y'ubururu ndetse n'icyapa cyandikishijeho amagambo y'mweru.

Umuhanda mwiza wubatse neza, indabyo nziza ziteye ku ruhande, inzu nini cyane isakaje amabati y'umweru ifite ibirahure bifite ibara ry'ubururu, imbere yanditseho Nyagatare jenosayide memoriyo, ndetse n'igishushanyo cyo kwibuka.

Inzu nziza zifite amabara y'umweru n'ubururu, ndetse n'itara riteretse, rifite ibara ry'umweru hejuru umukara, ririmo kwaka urumuri rwaryo rwazamutse rugera hejuru mu kirere rikugaragara neza.

Abantu benshi bari mu muhanda b'ingeri nyinshi zitandukanye, higanjemo abambaye impuzankano ya gisirikare ndetse n'impuzankano ya gipolisi barimo kureba imbere, hirya yabo hari ishyamba ririmo ibiti byiza bitohagiye biri kugaragara neza.

Abantu benshi abagore n'abagabo bicaye ahantu munsi y'igiti, imbere yabo hahagaze umugabo warakaye watumbiriye cyane, imbere yabo hari inzu isakaje amabati akerebye ifite ibara ry'ubururu hejuru ndetse n'amatafari adateyeho mucanga.

Abantu benshi bicaye hamwe higanjemo abagabo bambaye amakositimu na karuvati kumeza yabo hatereretse amazi, umugabo umwe uhagaze hagati y'abantu bambaye umupira wumweru, inyuma ye hari sikulini.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe bizihiwe bari kureba imbere harimo abasirikare n'abapolisi umupolisi umwe aripfumbase, imbere yabo hagaze umugabo umwe yateye intambwe yambaye ikositimu y'umukara.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, bicaye ahantu munsi y'ibiti, barimo kuganira bizihiwe, bamwe barahagaze, abandi baricaye, barimo kureba imbere bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bamwe ni abana.

Urubyiruko higanjemo abasore bicaye ahantu hamwe imbere yabo hahagaze umusore wambaye agapira k'umutuku ndetse n'ipantaro yu'bururu afashe mikoro mu biganza bye ari kubaganiriza ibirebana n'uburenganzira bwa muntu.

Abantu bane bicaye ku ntebe nziza zo kwegamira, umwe yambaye imyenda y'umukara ni umupolisi ku bitugu bye afite amayenyeri, hari umugore wambaye amarinete n'ijire y'umukara ari kureba imbere, ndetse hari n'umugore wambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru, yicaye aregamiye ari kureba imbere. Imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa.

Ihuriro ry'abantu benshi b'ingeri zitandukanye abagabo n'abagore bicaye ahantu hamwe barimo kureba imbere bari kuganira bamwe barimo gukoma amashyi, inyuma yabo hubatse inzu nziza yubakishije amatafari y'umutuku ifite ibirahure biri mu ibara ry'ubururu.

Abantu bahagaze bizihiwe barimo guseka biragaragara ko bari kwifotoza harimo abagabo bambaye amakositimu ndetse n'umugore umwe wamanuye amaboko ye ayafatisha ku bibero, inyuma ya bo hagaze abantu benshi bari gukora utuntu dutandukanye.

Inzu nziza zubatse neza zifite imiryango ifite inzugi ziri mu ibara ry'ubururu igiti cyiza k'inganzamarumbo, abagabo batatu bahagaze umwe afite ibitabo mu ntoki ze yatebeje, undi afite amaboko atarimo ikintu, undi yambaye ishati y'umweru n'ikarita y'akazi mu ijosi.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, bamwe baricaye ku manywa y'ihangu, abandi barahagaze harimo abambaye impuzankano ya DASSO, barimo kuganira barizihiwe, iruhande rwabo hari ibiti biri kugaragara neza bitohagiye.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, higanjemo abagore n'abagabo, biteze ibitambaro, bambaye imyenda y'amoko atandukanye, bamwe baripfumbase abandi bifashe ku munwa bari kureba imbere bishimiye ibyo barimo kuganira.

Icyapa gishyize ahantu ku butaka kiriho amabara meza ari mu ibara ry'icyatsi kiyobora abagenzi, iruhande rwacyo hari umuhanda mwiza wa kaburimbo urimo amabara y'umuhondo werekeza ahantu hatandukanye.

Inyubako nziza iri ahantu heza hari amakaro, umuryango wayo uri mu ibara ry'umukara urafunze ifite amarangi y'umweru, imbere yayo hariho icyapa kiri mu ibara ry'ubururu cyanditseho amagambo n'inyuguti z'umweru.

Ibyuma bibiri bihagaze biriho icyapa cy'umweru, cyanditseho Kankazi, gifite imirongo ibiri y'ubururu, iruhande rwacyo hari ibyatsi byiza biteye neza byakuze, no hakurya yacyo hari ibindi byinshi byakuze.

Umuhanda mwiza w'umukara ibyatsi ndetse n'icyapa kiri ku kumuhanda ipoto ricishwaho umuriro w'amashanyarazi, ndetse hirya hari ibiti byinshi bihagaze bifite amababi meza atohagiye.

Inzu nziza yubatse neza ifite amarangi y'umweru ifite ikizimyamto ku muryango, ndetse umuryango wayo urafunguye urugi rw'umukara n'amadirishya y'umukara, biri kugaragara neza.

Umuhanda w'umukara, wubatse neza, ufite hagati yturango tw'umweru, ku ruhande wubakiwe neza, hariho imiferege itwara amazi ipfundikiye, iruhande hari amatara meza arimo kwaka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo ufite hagati umurongo w'umuhondo, hino hari utuntu twubatse neza dufite ibara ry'umukara n'umweru, moto iri mu muhanda yicayeho umuntu umwe yambaye kasike, irimo kwaka amatara.

Umuhanda mwiza w'umukara imodoka nini ishinzwe gutwara abagenzi, nziza iri mu ibara ry'umweru ifite ibirahure bimeze neza, iri kugaragara neza hirya yayo hubatse inzu nziza isakaje amabati y'umutuku.

Imodoka nziza nini y'umweru itwara abagenzi imbere yayo hahagaze abantu benshi barimo kuganira, imbere yabo hari inzu nziza isakaje amabati y'ubururu ifite irangi ry'umweru.

Abaturage benshi b'ingeri zitandukanye, higanjemo urubyiruko bari guharura, abandi barimo guhinga, bafite amasuka, abagabo bahinnye amapantaro bambaye na bote, abandi basore barahagaze, barimo kugenda batema ibyatsi.

Abantu benshi bahuriye hamwe higanjemo urubyiruko abakobwa n'abagabo, umugabo umwe yazamuye akaboko ari kugatunga undi ari kugerageza kubasubiza inyuma kugira ngo bategera imbere bakaronka umurongo batagomba kurenga.

Abantu benshi higanjemo urubyiruko abasore n'inkumi benshi, bambaye udupira tw'umukara, barizihiwe barimo gukora umuganda, bamwe bafite amasuka abandi bafite imihoro, ndetse harimo n'abambaye impuzankano ya gisirikare.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe bari mu matsinda bari kugenda baganira, abagabo babiri bambaye amakositimu ndetse na karuvati barimo kuganira amaboko yabo bayamanuye, inyuma yabo hari umugore wambaye ikanzu.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, bamwe bicaye imbere harimo aba, abapolisi ndetse n'abasirikare, bicaye munsi y'igiti bari kuganira, bamwe bafite amatelefone mu ntoki zabo, inyuma yabo hari inzu nziza ifite amarangi y'ubururu isakaje amabati y'umutuku.

Abantu benshi cyane bahuriye hamwe, harimo abambaye imyenda ya daso, iya polisi ndetse n'abambaye amajire y'abakorerabushake bafite amasuka bari kuhira imyaka, bamwe bari kugenda baganira.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe umwe yitwikiye umutaka, undi ahagaze imbere ni umugore yafunze igipfunsi ,ukuboko kumwe agushyira ku gituza ukundi arakuzamura.

Abantu benshi bambaye imyambaro itandukanye higanjemo urubyiruko abagabo n'abagore bari gukora ibikorwa bitandukanye, bamwe bari guterura amabuye bayakura mu muhanda, abandi bafite amasuka barimo guharura, bambaye bote.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye higanjemo abambaye amajire ari mu ibara ry'umuhondo, baricaye barizihiwe, barimo kuganira umwe yazamuye ukuboko agufatisha ku munwa, imbere yabo hicaye abasirikare bambaye impuzankano bari kureba imbere.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe munsi y'igiti, imbere yabo hahagaze umugore wambaye umupira w'umukara ufite imisatsi yazamuye amalinette mu gahanga, afashe mikoro ye n'ibiganza bye byombi ari kubaganiriza.

Umugabo wigikara ufite uruhara yambaye itiriningi y'ubururu yikoreye amabuye abiri ku rutugu rwe, inyuma ye hagaze akana gatoya kambaye umupira w'umweru ndetse n'umugore uri kugenda mu muhanda.

Umugabo wambaye imyenda ya gisirikare n'inkweto za gisirikare ahagararanye n'umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'agapira k'umweru n'ipantaro yumukara n'inkweto z'umweru, inyuma yabo hari gutambuka umusore wambaye ishati y'ubururu n'ikoboyi y'umukara, hirya hahagaze abasore batatu ndetse hino hicaye n'abagabo babiri.

Abasore bari gukina agapira bambaye imyenda y'ubururu bari kugakinira impande y'umuhanda, umwe afite balo yambaye amasogisi y'umutuku amaboko ya yashyize inyuma, hakurya y'umuhanda hahagaze umugore urimo kubareba.

Abasore batandatu bari gukina umupira mu muhanda, umwe bamuteye takele, arunamye ibiganza yabikojeje ku butaka, hirya yabo hicaye abantu babiri bari kureba uwo mupira, barizihiwe cyane.

Urubyiruko rwateraniye hamwe rurimo kuganira rwizihiwe, bamwe bazamuye amaboko yabo bayafatisha ku matama abandi bambaye ingofero barimo kureba imbere bari kureba bishimye cyane, abandi barimo kuganira, ibintu binyuranye.

Umugabo uhagaze ahantu heza h'umukara, yambaye inkweto z'umutuku amasogisi y'umuhondo ikabutura y'umuhondo, umupira w'umuhondo afite umusatsi muke ukuboko kwe kumwe yakujyanaye imbere ukundi agushyira inyuma, arimo kureba ku ruhande inyuma ye hari amatarasi meza y'indinganire.

Abana bari gukina umupira mu muhanda w'igitaka umwe yambaye ikabutura y'ubururu n'umupira w'ubururu, undi ari gutera intambwe amwirukankana inyuma yaho hari agacaca kariho ibyatsi byiza kazitiriye, haragaragara neza.

Abasore bari gukina umupira mu muhanda w'igitaka harimo abambaye imyenda yubururu n'abambaye imyenda y'umutuku, umwe afashe undi akaboko undi ari kwiruka amaboko ye yayamanuye, undi yateye intambwe biragaragara ko bari gukina bishimye banizihiwe.

Abakinnyi bahagaze ahantu hamwe mu kibuga bishimye cyane, bamwe bari gukoma amashyi, umugore uri kugenda mu kibuga wambaye ipantaro y'itirininge ndetse n'agapira k'umutuku k'ikipe ya Manchester united yo mu bwongereza.

Abakinnyi bahagaze ku murongo umwe mu kibuga, bambaye imyenda y'umuhondo bafite icyapa mu ntoki zabo, imbere yabo hahagaze umutoza wabo wambaye itiriningi y'umukara, ndetse n'inkweto z'umweru nta musatsi afite arimo kubaganiriza.

Abakinnyi b'amakipe abiri bahagaze hamwe bamwe bambaye umuhondo abandi ubururu n'umuzamu uri mwiza izamu wambaye, imyenda yumukara. Nibyiza gukora siporo kuko bituma imitsi igororoka ukagira ubuzima bwiza.

Umusore muremure w'inzobe ufite umusatsi muke afite amatwi manini, yambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'ubururu, ahagaze ahantu hari ibyatsi byiza bitohagiye ndetse iruhande hari amazi arimo gutemba.

Abantu batandukanye bahagaze mu kibuga, umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'ikoboyi, arimo gutambuka, akaboko kamwe agashyize imbere akandi agashyira inyuma, imbere ye hahagaze umugore wambaye umupira w'kipe ya Manchester United.

Umuntu uri kugenda ku kibuga cy'ubutaka wambaye amasogisi y'umukara ndetse n'ikabutura n'agapira by'ubururu, ukuboko kwe kumwe gushyize imbere ukunda gushyira inyuma hirya ye hariyo izamu ry'icyuma.

Abantu benshi bahuriye hamwe, bishimye cyane, harimo abambaye udupira tw'umuhondo, abambaye udupira tw'icyatsi, abagore n'abagabo, barimo kuganira, hakurya yabo hari inzu nziza, ifite irangi ry'umuhondo, isakaje amabati y'umutuku.

Ikibuga cyiza gifite ubwatsi bwiza buri kugaragara neza, umukinnyi wambaye amasogisi y'umuhondo, ikakabutura y'umuhondo, ndetse n'agapira k'umuhondo, ukuguru kumwe yaguhinnye ukundi agushinga ku butaka, imbere ye hariho baro.

Sitade yubatse neza ifite amabara y'umuhondo n'ubururu, ifite igice kimwe gisakaye hagati hari abakinnyi benshi bambaye imyenda y'umuhondo ndetse n'umukara bazamuye amaboko yabo bayashyira imbere bazamura amaguru y'inyuma.

Agahanda gato k'igitaka karimo amabuye, amashashi n'ibicupa kari kwerekeza ahantu hubatse akazu k'umukara gafunguye haparitse moto ifite ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugaragara neza, wubatse neza, hagati ufitemo umurongo, ufite ibara ry'umuhondo abantu babiri bari ku magare umwe wambaye ishati y'umweru n'undi wambaye ishati y'umutuku, iruhande rwabo hari inzu nziza ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu ku madirishya yayo.

Umuhanda urimo, igitaka urimo amabuye menshi ndetse n'amashashi, werekeza ahantu mu cyaro, hariho ibiti byinshi, umuntu uri kugenda mu muhanda, wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru, ari kugenda yihuta cyane.

Agahanda gaciye mu muririma, kari kugenda, karimo ibyatsi bitandukanye, iruhande rwako hari umufure uriho ibyatsi byumye, karagaragara ko kerekeza ahantu kure cyane.

Umuhanda w'igitaka urimo amabuye, iruhande rwabo hari amashyamba arimo ibyatsi byinshi cyane, ndetse n'ibiti byakuze by'inganzamarumbo, abagore babiri bari mu muhanda, umwe yambaye ijipo y'umutuku akenyeye igitenge, ahetse n'igikapu mu mugongo.

Agahanda k'igitaka kanyuze ahantu mu kinani gakomeje, kari kugendamo umuntu umwe iruhande rwako, hari ibyatsi byinshi cyane by'amabara atandukanye bitohagiye, biri kugaragara ko byafuhiriwe neza.

Ahantu heza hariho ibyapa bigaragaza amahoni ni ku butaka haparitse imodoka ibiri ziri kugaragara neza, imwe ifite ibara ry'icyatsi n'indi ifite ibara ry'umutuku ndetse n'amabuye atondetse neza kumurongo.

Umuhanda werekeza mu cyaro urimo amabuye y'umukara ay'umweru n'ay'umutuku, harimo amashashi ndetse n'ibimene by'amacupa wagira ngo ntabwo witaweho kugira ngo usukurwe neza, ubashe kugeza abantu aho bagomba kugera.

Umuhanda urimo amabuye y'amabara atandukanye, umusore uri ku igare wambaye ipantaro y'ikoboyi, agapira k'umuhondo, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara urimo gutambuka.

Umuhanda uriho amatara ari kwaka ari kugaragara neza, hirya yaho hari ishyamba rinini cyane ririmo ibiti byakuze by'inganzamarumbo, hakuno harihantu hari ubutaka butariho ibyatsi byinshi.

Umuhanda w'igitaka uri kugaragara nabi urimo amabuye, amashashyu ndetse n'ibicupa, iruhande rwawo hari umucaca, moto iri mu muhanda yicayeho umugabo wambaye kasike y'ubururu, ipantaro y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.